Apurikasiyo ya banki ikoreshwa na banki ya Ekwiti mu rwego rwo gutanga serivisi za banki nko kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga ndetse no kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa.

Apulikasiyo ya banki ya ZCSS mobayiro bankingi, itanga serivisi za banki harimo nko kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza ndetse no kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, hakoreshejwe telefoni zigendanwa.

Ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu kugaragaza imyambaro icuruzwa muri Goludeni fashoni shopu, aho bakoresha iki gikoresho mu kwerekana ubwoko bw'amakoti ya kositimu bafite, bayambika iyo myenda mu kugira ngo abakiriya babo bayibone mu buryo buboroheye.

Iguriro ry'imyenda ricuruza imyenda itandukanye nk'amakanzu, amajipo ndetse n'imipira hamwe n'amapantaro, iba imanitse mu tu etajeri twabugenewe ku bikoresho bimanikwaho imyenda mu rwego rwo korohereza abakiriya kobona iyo myambaro mu buryo buboroheye.

Inoti y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, ikaba ishushanyijeho imisozi miremire ndetse n'ibibaya bihinzwemo imyaka itandukanye, ikaba isinyweho n'abayobozi ba banki y'igihugu.

Apulikasiyo yo muri telefoni zigendanwa ndetse na mudasobwa, ikaba ari iya sipeni ya Ayi endi Emu banki, ifasha abafatabuguzi b'iyi banki kubona serivisi zitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga nko: kohereza amafaranga, kubikuza ndetse no kubitsa, hamwe no kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, hakoreshejwe telefoni zigendanwa.

Inyemezabwishyu y' umusoro yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, ikaba yarayihaye purayime inshuwarense sosiyeti itanga serivisi z'ubwishingizi ku musoro ungana n'ibihumbi icumi wishyuwe niki kigo hakoreshejwe ikoranabubuhanga.

Umukozi ukora mu biro by'ivunjisha afashe inoti z'amayero mirongo itanu mu kiganza arimo kuzibara mu rwego rwo gushyira hamwe aya mafaranga kugira ngo bimworohere mu gihe arimo gutanga serivisi zo kuvunja amafaranga.

D.D egisicenge, ibiro bitangirwamo serivise zo kuvunja amafaranga, aho zikoresha urubuga zerekana ibiciro byo kwi isoko mvunjfaranga, aho uru rubuga rwari rurimo kwerekana ibiciro byo ku itariki ya mbere, ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda.

Inyubako isizwe amarangi y'umweru iriho icyapa ku muryango cyanditseho Dukomere Forex Bureau, ikaba itangirwamo serivisi zo kuvunja amafaranga y'abanyamahanga, aho abakiriya babo baza bakavunjisha amafaranga mu bwoko bw'amafaranga bayashakamo.

Intebe zo kwegamiraho ziriho udusego tw'umukara aho bicaraho, hamwe n'ameza bikozwe mu biti bikaba bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza ba bikozwe mu mbaho ziba zavuye mu biti, bikaba byifashishwa mu gufata amafunguro.

Intebe zo kwicaramo zikozwemo mu mbaho zikaba zifite imisego ikozwe muri matera ziri mu nzu nziza irimo amakaro isizwe irangi ry'umweru, izi ntebe zikaba zicarwamo mu gihe cyo kuganira.

Umudamu wambaye amataratara, ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, akaba yicaye imbere ya mudasobwa, akaba akorera ikigo cya mowa gitanga serivisi z'ubwishingizi, aho gitanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga ndetse na serivisi z'ubwishingizi ku matungo.

Imeza iriho ikimenyetso cya Buritamu sosiyete itanga serivise z'ubwishingizi, ikaba itanga serivise z'ubwishingizi bunyuranye harimo nk'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku matungo.

Abaturage bahagaze iruhande rw'akazu kariho ibyapa bya MTN mobayilo mani, akaba ari kiyosike ikorerwamo umu ajenti wa MTN, sosiyete itanga serivise z'itumanaho ndetse n'iza banki, baba baje gufata serivise zo kohereza amafaranga ndetse no kugura amayinite.

Kiyosike ya emutiyeni irafunguye hari umukiriya uri gusaba serivisi, abantu baratambuka mu muhanda hagati y'amazu, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Iguriro ryo kuri murandasi rifasha abaturage gukoresha ikoranabuhanga rya telefoni ndetse na mudasobwa mu kugura ibicuruzwa bitandukanye, aho babitumizaho bakishyura bakoresheje telefoni zigendanwa, ubundi sosiyete zitanga izi serivisi zikabagezaho ibyo baguze.

Vuba Vuba akaba ari sosiyete itanga serivisi zo kugemurira abaguzi ibicuruzwa baguze, hakoreshejwe murandasi ndetse na terefoni zigendanwa, bakaba bifashisha ibinyabiziga bya moto biriho utubogisi twabigenewe dupakirwamo ibyo bikoresho byaguzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, bakabigeza kuri ba nyirabyo.

Urubuga rwa kasha rukoresha ibinyabiziga bya moto mu gutwara ibicuruzwa biba byaguzwe n'abakiriya hakoreshejwe ikoranabuhanga rya terefoni zigendanwa ndetse na murandasi, aho moto zabo ziba ziriho amabogisi yabugenewe apakirwamo ibicuruzwa byaguzwe n'abakiriya bityo bakabigezwaho batavuye mu rugo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba ifite ibyumba birimo ibiryamirwa byiza cyane bigezweho nka matela nziza, igitanda ndetse n'imisego, aho iyi nzu ikodeshwa amadorari y'Amerika igihumbi magana atanu ku kwezi ku muntu ushaka kuyikodesha.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu ifite parikingi iparitswemo n'imodoka y'umukara, iyi nzi ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ikaba igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ari inzu ikodeshwa.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu irimo sitidiyo nziza igezweho ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'amafaranga y'u Rwanda, iyi nzu ikaba ikorerwamo kandi ibikorwa bitandukanye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu irimo ikikoni cya kijyambere, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Remera mu karere ka Gasabo ikaba ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero, iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu y'u Rwanda ku kwezi.

Iguriro rya supamaketi, rigaragarwamo n'utu etajeri twinshi dutandukanye, tuba dupanzwemo ibintu mu buryo bwiza, bigafasha abagana isoko kuzenguruka utu etajeri barebamo ibicuruzwa bitandukanye baje kugura.